Umuntu iyo yagiye mu nama ashobora gutanga igitekerezo ke, hanyuma abandi bakacyumva bakagisesengura bakareba niba gishobora kugirira akamaro itsinda runaka, icyo gitekerezo bakagishyira mu bikorwa.

Inama iyo zahuje abantu batandukanye, bituma bungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko zitandukanye, zituma batera imbere, izo nama bakorara ahongaho, bashobora kuzifashisha bagira abandi inama y'ibyo bakora.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bashobora guhurira hamwe bahujwe n'urugero rumwe rwo kuba bakiga ibintu bitandukanye, bashobora guhuzwa no kuba bakiga ku ngingo ijyanye n'ubuzima cyangwa se indi ngingo.

Inama zitandukanye zifasha abaturage kungurana ibitekerezo cyane cyane abayobozi bakunda guhurira mu nama kugira ngo barebe uburyo bakongera imbaraga mu kuyobora abaturage ndetse barebe n'ibyo bakeneye bityo bahuze ibitekerezo.

Inama ni ihuriro rihuza abantu benshi bafite ingingo runaka bigaho, kandi bagafata imyanzuro y'ibibazo bijyanye n'ubuzima bwabo. Umuntu uyobora inama, agomba kuba yifitiye icyizere.

Abantu iyo bari mu nama, bagomba kwirinda kurogoya umuyobozi mu gihe atanga igitekerezo. Mu nama umuyobozi aba afite ingingo aravugaho kandi ashobora guha abateranye mu nama, akabaha umwanya bakavuga, bakagira icyo basangiza abandi.

Inama ni ikoraniro ry'abantu bateranira hamwe, bagamije kuyiga ku ngingo runaka. Mu nama abantu bafatira hamwe imyanzuro kandi bagashaka ibisubizo by'ibibazo bafite.

Abantu baba bakwiye gukora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ubuzima kugira ngo ubeho neza uba ugomba kubungabunga. Niyo mpamvu abantu bakora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza.

Inama zihuza abantu zibafasha kungurana ibitekerezo, cyane cyane bakungukirwa n'ingingo zitandukanye zirimo izijyanye n'ubuzima. Inama bakura aho ngaho bashobora kuzifashisha basobanurira abaturage uko bakwitwara mu mimerere runaka.

Mu nama iba yahuje abantu benshi, buri wese agomba kwirinda gusakuza kugira ngo bumve icyo wateguye inama abagiramo inama cyangwa se ubutumwa abaha. Mugihe bakurikiye, bashobora kumva ibintu byose biravugirwa mu nama.

Abantu iyo bari mu nama bungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye. Inama ifasha abantu kuganira bityo bagafatira imyanzuro hamwe ku bintu runaka baba bakeneye kumvikanaho. Izo nama zifasha abaturage kumva bishimye, kandi bakagera ku myanzuro ikwiriye.

Abanyarwanda bafite umuco wo kuganira, mu gihe bahuriye ahantu runaka, umugore nawe afite ijambo mu muco nyarwanda kuko ashobora guhaguruka, akavuga igitekerezo cye kandi abandi bakamwumva.

Mu muco nyarwanda abantu bakwiye kwambara imyenda igaragaza umuco wabo, niyo mpamvu hari imyambaro umuntu yambara, ugashobora kumutandukanya n'undi cyane cyane ababyinnyi bo mu Rwanda baba bafite umwambaro bambara mu mutwe wihariye.

Mu muco nyarwanda abantu bakunda kunywa amata, abakobwa bakunda guhurira hamwe bagatunganya amata, hanyuma ayo mata bakayashyira mu bicuba, igihe cyagera ba bakayanywa, kandi amata araryoha.

Mu muco nyarwanda uduseke tugaragaza ukuntu abadamu bafite ubukorikori bwo gukora ibintu bitandukanye kandi bishobora kubagirira akamaro, ubwo rero bakunze kubikoresha mu muco wabo.

Umuco nyarwanda urangwa no kuba hari ibikoresho bimwe na bimwe bigaragaza uwo muco, bimwe muri byo harimo ibicuma ndetse n'imiseke abantu banywesha inzoga, mu gihe habaye ibirori runaka.

Ababyinnyi ni bamwe mu bantu bagaragaza umuco, niyo mpamvu mu Rwanda hari imbyino gakondo, ababyinnyi babyina bakumva barishimye kandi abantu babareba, bagashimishwa no kubona ababyinnyi ku buryo bumva bishimye.

Amashanyarazi atuma ahantu hari ubucuruzi cyangwa se ibindi bikorwa by'abaturage bitera imbere kubera ko no mu masaha y'ijoro bashobora gukora. Ubwo rero amashanyarazi akwiriye kwitabwaho.

Kwita ku mashanyarazi biba bisaba kwitonda kubera ko mu gihe amashanyarazi adakora neza, umuntu ashobora kugenda akayakanika ariko abakanishi bakanika amashanyarazi, bagomba kwitonda cyane kugira ngo atabatwika.

Amashanyarazi afitye akamaro abaturage. Ingomero z'amashanyarazi zitanga amashanyarazi zituma abaturage babona umuriro wo gucana no kwifashisha mu bindi bikorwa, bishobora kubazanira iterambere.

Amashanyarazi agira uruhare mu gutuma abaturage babona ibintu by'ingenzi mu buzima bwabo bashobora gukoresha amashanyarazi bacagiga amatelefoni, bashobora no gukoresha amashanyarazi mu guteka dore ko ikoranabuhanga ryabyoroheje.

Amashanyarazi afite akamaro cyane kubera ko atuma abaturage bakora ibikorwa byabo batuje, afasha mu kwihutisha iterambere ry'igihugu ubwo rero abaturage baba bagomba kuyitaho bakirinda kuyangiza mu gihe hari ahantu yashizwe.

Ingomero z'amashanyarazi zifite akamaro cyane kubera ko amashanyarazi atuma abaturage babona ibintu byinshi. Birimo: umuriro wo gutekesha, birimo ibikoresho no gucagaga telefoni n'ibindi.

Ingomero z'amashanyarazi zifite uruhare mu gutuma abantu bagira ibyo bageraho, ariko nan none ibiro imodoka zinyuraho, bikunze gukoreshwa cyane niyo mpamvu ibi byombi ari ibikorwa remezo byuzuzanya.

Amashanyarazi afite uruhare mu gutuma abaturage batera imbere, abantu bakwiye kwitondera amashanyarazi kuko ashobora kubangiriza ubuzima mu gihe batitondeye uburyo bayafatamo, kuko ashobora kuba yabatwika.

Amashanyarazi, atuma ibikoresho by'ikoranabuhanga bikora neza kuko biba bisaba ko bicagengwa, ahantu hari amashanyarazi, umuntu aba agomba kuhitondera kuko arebye nabi, byashyira ubuzima bwe mu kaga.

Amashanyarazi afitiye akamaro abaturage kuko agira uruhare mu gutuma babona. Amatara akoreshwa n'amashanyarazi nayo agira uruhare mu gufasha abanyeshuri kwiga. Ubwo rero twavuga ko amashanyarazi afite uruhare runini mu mibereho y'abaturage.

Abantu bashobora kubona amashanyarazi mu buryo butandukanye, hari amashanyarazi aturuka ku mazi, hari ndetse n'amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba. Amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, niyo akunze gukoreshwa mu gice k'icyaro.

Ibiraro bishyirwa ahantu hatandukanye mu gihugu, bifasha abaturage kwambuka amazi bakava mu gace kamwe, bakajya mu kandi. Ibyo biraro biba bifite akamaro kandi biba bikwiriye kwitabwaho kugira ngo bitangirika.

Ibigo by'amashuri bifitiye akamaro abaturage, cyane cyane bifitiye akamaro abana bato, kuko bajyanwa ku ishuri bakigishwa ibijyanye no gusoma ndetse no kwandika ndetse bakahakura n'ubundi bumenyi bakoresha mu buzima busanzwe.

Imihanda ifitiye akamaro abaturage. Igihugu kiba cyarashyizeho uburyo butandukanye kugira ngo abaturage babone ubuyobozi bwizewe kandi bubayobora neza. Niyo mpamvu hari inyubako zigenda zishyirwa hirya no hino mu bice bigize igihugu, kugira ngo abaturage bahahurire hanyuma bungukirwe.

Inyubako ziba ziri mu duce dutandukanye zigirira akamaro abaturage, iyo zifashwe neza banogerwa no kuba zihari kuko badashobora kunyagirwa izo nyubako zihari, Igihugu gishyira inyubako zitandukanye mu Gihugu kugira ngo zifashe abaturage.

Abantu baba bakwiriye gusobanurirwa amateka yabo, niyo mpamvu hari ahantu hubakwa kugira ngo bahashire ibishushanyo bibafasha kubaka amateka arambye, ndetse no kwigisha abanyeshuri bakiri batoya.

Inyubako za leta, zikunze gukoreshwa neza kubera ko abantu baba bazikoreramo, baba bazi agaciro kazo ariko nanone leta ishobora kubakira abaturage batishoboye, inyubako zo kubamo.

Abantu bagenda bubaka inzu cyangwa se inyubako kugira ngo zibagirire akamaro mu buryo butandukanye, Igihugu nacyo hari inyubako kigenda cyubakwa hirya no hino kugira ngo zigirire akamaro abaturage, zimwe muri zo zishobora kuvamo amasoko.

Igihugu gishyiraho ibikorwa remezo bitandukanye, ahantu hatandukanye mu gihugu kugira ngo abaturage babashe kubaho neza, bimwe muri ibyo bikoresho harimo imihanda ifasha abantu gutembera, bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Ibikorwa igihugu gishyiraho kugira ngo abaturage babeho neza, byose bigira uruhare mu iterambere ry'abaturage, kandi abaturage bishimira kuba bafite ibyo bikorwa kuko bituma bagira umunezero, umutuzo, n'inseko.

Igihugu gikora uko gishoboye kose kugira ngo imyaka y'abaturage itangirika, gishobora kubaka inzu iyo myaka ishobora kubikwamo, kandi kigashyiraho abakozi bashinzwe kwita kuri iyo myaka.

Ahantu hahunikwa imyaka y'abaturage, hagomba kuba hafite umutekano kuko hatari umutekano, abajura bashobora kuza bakiba iyo myaka, nanone, hagomba kuba hasakaye neza.

Inyubako za Leta, zigira uruhare mu mibereho y'abaturage, abaturage bahurira hamwe ahantu hari inyubako zitandukanye za Leta, bakungurana ibitekerezo bishobora kubafasha mu iterambere ryabo rya buri munsi.

Ibiraro biba byarubatswe hirya no hino mu gihugu, bifasha abaturage gutembera, bakambuka bava hakurya bajya hakuno cyangwa se bahahirana ibintu bitandukanye.

Abantu bagira uruhare mu bikorwa bibakorerwa ariko nanone bashobora guhugurwa kugira ngo bagire ubushobozi bwo kumenya ibintu bishya, ndetse no gufata imyanzuro abantu baba bakwiriye guharanira ubutabera, ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'abandi.

Abantu bigishwa uburenganzira bwabo ariko inzego zigira uruhare mu guharanira uburenganzira bwa muntu harimo inzego z'abapolisi ndetse n'ingabo, aba bagira uruhare mu gutuma abantu bagira umutekano.

Mu butabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu buba bukwiriye kubahirizwa. Hari igihe abantu bakora ibikorwa byiza bagashimirwa ariko nanone hari igihe abantu bakora ibikorwa bibi bakanengwa bitewe n'ibikorwa bakoze.

Abantu kugira ngo babane amahoro, habaho abayobozi. Abayobozi baba bashinzwe gufasha abantu, kubana amahoro no kunga ubumwe, kugira ngo iterambere ry'igihugu ryiyongere.

Abantu baharanira ubutabera inzego z'umutekano zihana abantu bakora ibyaha ariko nanone abantu iyo bakoze neza barashimirwa. Ibi bikorwa mu buryo bwo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kugira ngo bwubahirizwe.

Ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, ni ikintu cy'ingenzi kigomba kwitabwaho kubera ko iyo hari ubutabera, abaturage babana amahoro kandi iterambere ryabo, rikarushaho kwiyongera.

kugira ngo habeho ubutabera, inzego z'umutekano zibigiramo uruhare, inzego z'umutekano zifasha abantu kugira ngo bunge ubumwe, kandi amakimbirane agabanuke.

Abaturage bagomba kumvikana kugira ngo bagire ibintu bageraho. Ubutabera bugomba kubahirizwa kugira ngo abantu bakoze ibyaha bahanwe. Niyo mpamvu inzego z'umutekano, zegera abaturage zikabaganiriza.

Ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu abantu baba bakeneye kubyubahiriza kuko iyo mu bantu bihari babana neza kandi bakunga ubumwe. Abantu iyo bishimye bakaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye birabanezeza.

Abaturage bakwiriye kubana neza baganira icyabateza imbere. Umuturage ufite ikibazo agomba kukigeza ku nzego z'ubuyobozi, aho kugira ngo ashake uburyo yakikemurira, kuko kukigeza ku nzego z'ubuyobozi ari byo byiza.

Abaturage baba bagomba guharanira ubutabera ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu gihe bwangijwe. Niyo mpamvu mu gihe hari ikibazo umuntu ufitanye ikibazo n'undi, ashaka umuyobozi akamufasha kugikemura.

Ubutabera buba bugomba kubahirizwa ahantu hose niyo mpamvu abantu iyo bari ahantu hamwe bagomba kuganira ku cyabateza imbere, hubahirizwa uburenganzira bwa muntu hakiririndwa amakimbirane atuma bashobora kugwa mu byaha.

Abantu bashinzwe umutekano mu gihugu, bakora uko bashoboye kose kugira ngo igihugu gihorane umutekano, bashobora gufunga umuntu ukoze icyaha kugira ngo abandi nabo batinye.

Imihanda ifasha abantu bafite ibinyabiziga gutwaramo ibinyabiziga byabo hanyuma urugendo rwabo rukoroha kandi ubuhahirane bukiyongera bityo amafaranga akagira agaciro.

Ibinyabiziga bitwara abantu bibafasha kungukirwa cyane kuko bitwara abantu bava mu gace kamwe bajya mu kandi. Abantu bifashisha ibinyabiziga bagera aho bajya vuba kandi bungukirwa nuko urugendo rutabavuna.

Imihanda rusange ifasha abantu kuko abantu bashobora gutwaramo ibinyabiziga hanyuma bakabona amafaranga yo gukoresha mu buzima bwabo. Nanone abantu bafite imitwaro bashobora gukoresha ibinyabiziga bishyuye amafaranga.

Imihanda myinshi iba ifite ibyapa bigaragaza aho igera cyangwa se ibibazo biri mu mihanda, umuntu ugendera mu mihanda agomba kugira mu bushishozi kugira ngo adateza impanuka, kuko imihanda ari inzira nyabagendwa.

Abantu bakora akazi ko gutwara abantu mu cyaro, bashobora kumara igihe kirekire batarabona abo gutwara, niyo mpamvu umuntu wese ushaka kubona amafaranga atwara abantu, inama agirwa ari ukujya gukorera ahantu hari umujyi

Imodoka zitwara abagenzi zituma abantu bagera iyo bajya ku gihe, kandi zishobora kubakereza bakagenda buhoro buhoro, kugeza bagezeyo. Ibyo nibyo bibi by'imodoka kandi bigomba gukemuka.

Ibinyabiziga rusange byishyura amafaranga ku gihugu, kandi ayo mafaranga agirira akamaro buri muturage, kubera yuko akoreshwa mu gukora ibikorwa bitandukanye birimo gukora imihanda n'ibindi.

Ibikorwa remezo birimo imihanda bifite akamaro mu gutuma iterambere ry'Igihugu rirushaho kwiyongera kubera ko abaturage bashobora gukoresha iyo mihanda batwara imyaka bayijyana ku isoko. Imihanda ituma abaturage bungukirwa no kuba bafite ibikorwa remezo.

Amategeko y'umuhanda afasha abantu bafite ibinyabiziga kugenda neza no kwirinda impanuka, niyo mpamvu abantu bafite ibinyabiziga babanza kwigishwa amategeko y'umuhanda, imodoka ziba zikwiriye kwitabwaho kugirango nazo zidateza impanuka.

Imihanda rusange abantu banyuramo, iba ariho ibyapa, ibyo byapa biyobora abantu aho bakwiriye kunyura, kandi ntibayobe, ibyo byapa bibafasha kumenya inzira za nyazo bashobora kunyuramo ndetse no kwirinda impanuka.

Hari ibishushanyo bigenda bishyirwa ahantu kugira ngo bigaragaze indangagaciro ndetse na kirazira, urugero kirazira kugambanira igihugu, kutubahiriza gahunda za leta, gusenya ibyagezweho kandi zimwe mu ndangagaciro zituma abaturage babana neza.

Abaturage bagira uruhare mu bikorwa bibakorerwa, abaturage baba bakwiye gusobanurirwa akamaro k'ibintu bagiye gukora ndetse bagahabwa amahugurwa y'uburyo bashyira mu bikorwa ibintu biga, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza.

Abaturage bo ubwabo baba bakwiriye kwirindira umutekano wabo ndetse n'uw'ibintu byabo, ariko hari igihe bibaye ngombwa ko inzego zishinzwe umutekano by'umwuga, zivanga mu bikorwa byabo bitewe n'amakosa baba bakoze.

Abaturage batuye mu cyaro bakora uko bashoboye kose kugira ngo babone ibyo kurya. Ariko kandi bita no ku bimera kugira ngo bikomeze kugubwa neza bityo iterambere mu Gihugu ryiyongere kandi ubuzima bwabo bubashe kubaho neza.

Abaturage mu midugudu batuyemo barafashanya mu gukora ibikorwa bibateza imbere, harimo ibikorwa byo kubakira abantu batishoboye ndetse n'ibikorwa byo kubaka ahantu bashobora gushira imyaka mu gihe bayejeje.

Umutekano uba ukwiriye gukazwa mu nzego zose kugira ngo hirindwe amacakubiri mu Gihugu. Abantu baba bakwiriye guteranira hamwe bakiga uko barinda ubuzima bwabo, kandi bagashaka ukuntu babana neza n'abandi.

Abantu bakwiriye kugira uruhare mu bikorwa bibakorerwa. Bashobora gufata imyanzuro itandukanye, ariko nan none mu gihe umuntu afashe umwanzuro mubi, abagize inzego z'umutekano bashobora kumuhana, bityo iterambere n'umutekano bikiyongera.

Imikino njyarugamba abana biga, bashobora kuyikoresha bitabara. Abana iyo biga imikino njyarugamba baba bagomba kwitonda kugira ngo badakomeretsanya. Kwiga imikino bishobora gufasha aba bana kunanura ingingo zabo.

Imyitozo abantu bakora ituma bagira imbaraga, mu gihe bagiye gukora imyitozo, abantu basobanurirwa uko barakora imyitozo ndetse n'akamaro kayo, gukora imyitozo ngororamubiri, bituma abantu bumva bamerewe neza.

Abakinnyi b'umupira ni bamwe mubantu batera ibyishimo abantu. Abantu benshi bakunda kureba umupira, kandi iyo bari kureba umupira baraseka. Abakinnyi b'umupira bagira imbaraga.

Abantu iyo bari gukora imyitozo ngororamubiri birabashimisha cyane. Imyitozo ngororamubiri ituma abantu baba inshuti mu gihe bari kuyikorana. Niyo mpamvu hari abakinnyi b'umupira bakinana kugira ngo ubucuti bwabo bwiyongere bityo babashe kubana neza.

Abakinnyi b'umupira bagira uruhare mu gushimisha abantu. Abakinnyi b'umupira bagomba gukora imyitozo buri gihe kugira ngo gukina kwabo kutagira ikibazo cyangwa ngo kubangamirwe, kuko iyo bahoze mu myitozo bibashoboza kurushaho kumenya gukina.

Abakobwa na bo bashobora gukora imyitozo ngororamubiri bakina. Gukina imikino bishobora kubafasha kugirana ubucuti bukomeye ndetse no kongera ubuhanga bafite mu mitwe yabo.

Imyitozo ngororamubiri, yitabirwa n'abantu benshi, hari imyitozo abantu bakora, igatuma bumva bameze neza, kandi ituma ubucuti abantu bafitanye bwiyongera n'abafitanye ibibazo bakabikemura.

Imyitozo ngororamubiri ifasha abantu kunga ubumwe. Hari ibikorwaremezo bigenda byubakwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo abantu bajyende babyifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibibuga by'umupira bifite akamaro cyane, kuko bituma abaturage bisanzura bagakinana na bagenzi babo, hanyuma ubucuti bafitanye bukiyongera, gukina bituma umuntu agira ubuzima bwiza, kandi akisanzura hamwe n'abandi bityo ubuzima bukagenda neza.

Ibibuga biba byarubatswe kugira ngo bifashe abantu gukora imyitozo ngororamubiri bituma abantu bisanzura kandi bakahahurira bakungurana ibitekerezo ndetse bakananura ingingo zabo bifashishije abahanga mu gukora imyitozo.

Mu kibuga cy'umupira haba hashushanyijemo imirongo ifasha abakinnyi kumenya uko bakina neza batishe amategeko y'umukino, hagati mu kibuga niho umupira utangirizwa.

Ikibuga rusange gifasha abantu guhurira hamwe bagakora imyitozo ngororamubiri. Iyo myitozo ibafasha kuba inshuti kandi igafasha n'imibiri yabo kugororoka, bityo bakaba bashobora gukora ibindi bikorwa bibateza imbere.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bagomba kwishimira gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bananure imibiri yabo bityo bibarinde kurwaragurika. Imyitozo ngororamubiri ibafasha mu bintu bitandukanye birimo no gusabana.

Imyitozo ngororamubiri igira akamaro cyane, iyo abantu bayikora barananuka kandi ubucuti bafitanye bukiyongera, imyitozo ngororamubiri ikorwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abantu, bakuru ndetse n'abana.

Gukina imikino bifasha abantu kuba inshuti ndetse no kugirana ibiganiro bisanzwe bibahuza bishobora gutuma bakora imishinga ibyara inyungu, imikino ituma abantu basabana.

Ibibuga by'umupira bifasha abantu kwidagadura ndetse bagasabana mu buryo butandukanye. Abantu benshi iyo basabana, bagira uruhare mu kungurana ibitekerezo no kuganira. Niyo mpamvu abakinnyi baba bagomba gukora uko bashoboye kose bakagirana ubucuti.

Iyo umuntu ari mu kibuga aba agomba kuba maso mu gihe akina umupira, kugira ngo batamutsinda byoroshye. Kuba mu kibuga bisaba ko umuntu aba azi kwihangana kandi azi kubana neza n'abandi, kuko bituma agira ikinyabupfura.

Abantu iyo bagiye gukina umupira w'amaguru bashobora kwishimira kugendana bambaye impuzankano iyo mpuzankano abakinnyi bagira, ibafasha kumenyana kandi abakinnyi bakinira uruhande rumwe, baba bambaye bitandukanye n'abakinira urundi ruhande.

Imihanda yo mu cyaro iba itandukanye n'imihanda yo mu mujyi kubera ko imihanda yo mu cyaro usanga yuzuyemo ivumbi cyangwa se idafite isuku ihagije ugereranyije n'imihanda iboneka mu mijyi.

Imihanda ifitiye akamaro Igihugu kubera ko ituma iterambere ry'Igihugu ryiyongera, abaturage bagomba gufata neza imihanda kuko ibikorwa remezo byose bikorwa habanje gushyirwamo amafaranga.

Imodoka zihutisha iterambere ry'igihugu kubera yuko zifasha abantu kugera ahantu ha kure, badashobora kugera n'amaguru, imihanda ifasha imodoka kuko imodoka itanyuze mu muhanda, nta handi ishobora kunyura.

Imihanda yo mu cyaro iba yuzuye ivumbi kandi kuyinyuramo bigoranye. Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo iyo mihanda ise neza, ariko biragorana kuko haba hatarimo kaburimbo kandi kuyikora isuku nta bakozi bahagije bahari.

Imihanda igaragara mu gace abaturage batuyemo ifite akamaro cyane kuko kabafasha gutembera no gusurana mu gihe bagize ibyago, kandi yihutisha iterambere ry'igihugu nk'uko abantu bagenda neza mu muhanda nta kibazo bafite.

Imihanda ifitiye akamaro Igihugu kubera ko abaturage banyuramo bagiye ahantu hatandukanye kandi bikabafasha gukora ubuhahirane kandi bikoroshya urugendo; igihe umuntu agiye mu muhanda ashobora gukoresha ikinyabiziga akagera iyo ajya vuba.

Imihanda cyangwa se utuyira tugaragara ahantu abaturage batuye, bifasha abaturage mu gutembera bagasura abandi hanyuma bakaganira ku ngingo zitandukanye, bashobora no kuganira ariko kandi imodoka zica muri iyo mihanda zibashiriye ibyo kurya.

Imihanda, igira uruhare mu gutuma abantu batemberana ndetse bagasurana, imihanda ishobora kunyurwamo n'ibinyabiziga byikoreraye ibintu biremereye, harimo imodoka zitwaye ibyo kurya, zibijyanye ahantu, bigenewe.

Hari utuyira cyangwa se imihanda ishyirwa mu Midugudu kugira ngo ifashe abaturage kwambukiranya amasoko kandi babashe guhahirana n'abandi, iyo mihanda ituma abaturage batera imbere.

Imihanda igira uruhare mu gutuma abantu bakora ingendo ishobora kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo imodoka ndetse na moto, ariko nanone ku mihanda haba harimo igice abantu bagomba kunyuramo bagenda n'amaguru.